Ndabona ibicu by'umweru ndabona ahandi higanjemo ibara ry'ubururu bw'ikirere ndabona inkuta zubakishijwe amatafari ahiye ndabona ibiti binyuze muri izo nkuta ndabona imfungwa cyangwa se abagororwa nta misatsi bafite bambaye inkweto z'umuhondo ubururu n'umukara ndabona bafite ibikoresho by'ubuhinzi n'umusaruro ukomoka ku buhinzi nk'ibihaza ndabona bafite amasuka, ndabona iruhande rwabo hari icyobo.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, imbere yabo hari ameza, ameza hejuru yayo hariho igitabo ndetse n'ibikoresho bine by'ikoranabuhanga, kimwe gisa icyatsi kibisi, ibindi bitatu bigasa umukara ndetse hariho n'imfunguzo.

Abantu benshi bari ahantu abantu baganira, imbere hari abantu batatu b'igitsina gore, imbere yabo hari uducupa tw'amazi dufite ibara ry'ubururu, ndetse abo bantu b'igitsina gore bose uko ari batatu bambaye amadarubindi.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, imbere yabo bantu hari ameza, hejuru y'ameza hari igitabo, imfunguzo ndetse n'ibikoresho bine by'ikoranabuhanga, kimwe gisa icyatsi ibindi bitatu bigasa umukara.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe ndetse hari umuntu w'igitsina gore wambaye umwenda w'umukara, ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga cya mudasobwa, hirya ye hari undi w'umugabo wambaye ishati y'umuhondo na we ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga cya mudasobwa.

Inzu irimo abantu benshi biganjemo urubyiruko, bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu ku mwenda hejuru, umwenda wo hasi ufite ibara ry'ikigina, imbere yabo hari umuntu urimo kubaganiriza.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe harimo abicaye ndetse n'abandi bahagaze inyuma abantu bicaye benshi biganjemo abantu b'igitsina gore n'abahagaze biganjemo igitsina kabo.

Abantu benshi bari ahantu hamwe, imbere yabo hari ameza abiri yombi atwikirijwe ibitambaro bifite amabara ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, imeza imwe hariho uducupa tw'amazi tune ndetse ahandi hari uducupa twinshi.

Abana babiri bafite mudasobwa imbere yabo, iri mumabara yicyatsi, umweru muri mudasobwa haririmo inyubako ebyiri ndende.

Ibi ni ibiro by'ivunjisha aho ujyana amafaranga yawe baguha agaciro kuko bakuvunjiraho niba bashaka mumanyarwanda abayajyana mu madolari urabona hari ibiro byinshi bifite imiryango iriho umuhondo n'icyatsi bakwereka aho bya ayo madirishya y'umuhondo niho umuntu ahagarara bakamuvungira.

Abantu bari ku murongo utambitse batatu muri bo bafite mudasobwa, ndetse bose uko ari bane bambaye udupfukamunwa, hirya yabo hari uwa gatanu ndetse hirya y'uwa gatanu hari ikinyabiziga kigendera ku ipine ine.

Igikoresho cy'amashanyarazi, gifite utuntu two gukupura dutatu ndetse hepfo iki gikoresho cy'umweru, hari insinga ebyiri z'amashanyarazi, zisa ibara ry'umutuku ndetse iki gikoresho cy'umweru gifite na cyo insinga ebyiri zacyo ubwacyo, zifite ibara ry'umukara ndetse n'urundi rw'umutuku.

Ipoto ry'amashanyarazi, rishamikiyeho insinga nyinshi z'umukara, riri hirya y'inzu ndende, ifite amabara y'umweru.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Ibinyabiziga bibiri birimo kugenda kimwe kiri imbere y'ikindi, ikiri imbere gifite amabara y'ubururu ndetse kigendesha amapine ane, ikiri inyuma gifite imipine ibiri ndetse ku ruhande hariyo ibiti iruhande rw'iburyo bw'umuhanda.

Amazu atatu ateganye, abiri ari ku mpande ni amazu maremare, iri hagati ni inzu ngufiya, imbere y'inzu imwe ndende hari amapoto abiri y'umuriro w'amashanyarazi.

Amazu azengurutse ubusitani buto, burimo ibiti bibiri biteganye. Muri ayo mazu harimo umuntu urimo aragenda, wambaye imyenda y'ubururu.

Umuntu umwe wicaye wambaye umupira w'ubururu bw'ijimye, umuntu ugaragara agaragara nkaho akuze hirya hari, imyenda y'ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Tagisi vuwatire yo mu bwoko bwa yego kabusi ushobora guhamagara iriya nimero icyenda rimwe icyenda rimwe ikaza ikagutwara aho waba uherereye hose kandi batanga serivisi nziza n'icyombaziho .

Winjije Faburice Hakuzimana ufite nimero zeru karindwi umunani mirongo itandatu na gatanu, makumya na gatandatu, mirongo inani n'umunani, gatatu amafaranga igihumbi ikiguzi cy'amafaranga makumyabiri, kwemeza injiza umubare w'ibanga.

Umuntu w'igitsina gore, wambaye umwenda w'iroza, wicaye mu ntebe, imbere ye hari idarapo rifite ibara ry'umuhondo n'ubururu ndetse mu bururu harimo izuba.

Abantu benshi bambaye imyenda yiganjemo ubururu, umutuku ndetse n'umweru, benshi bafite amadarapo ari mu ibara ubururu, umweru ndetse n'umutuku, aho mu ibara ry'ubururu harimo inyuguti ya ra, mu ibara ry'umweru, harimo inyuguti ya pa n'ibara ritukura harimo ibara rya fa.

Umuhanda urimo ikinyabiziga kigenda ku mipine itatu, gifite ikintu cy'inyuma kiri mu ibara ry'ubururu, hirya y'icyo kinyabiziga hirya imbere yacyo ariko, hari abantu babiri barimo kugenda.

Imodoka nini ifite ibara ry'icyatsi imbere, imodoka yitwa fuso ifite imipine ine igiye kubisikana n'ikinyabiziga kigendera ku mipine ibiri gifite ibara ry'umutuku.

Ifasi ifite ibara ry'umweru iri mu muhanda hirya yayo hari umutaka w'umuhondo ufite inyuguti za ma ta na na biri mukazeru byose by'umukara hirya hari umumama ufite akabaga mu kaboko.

Umuhanda urimo ibinyabiziga birimo fuso ndetse n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri bitwawe n'umuntu umwe, hirya y'umuhanda hariho ibindi binyabiziga bihagaze ahantu hagenewe guhagarara, hirya hariyo amazu afite amabati y'umukara.

Umuhanda urimo ikinyabiziga kigendera ku mipine ine, hirya hariyo icyapa ndetse icyo cyapa kikaba kiri tiriyangere; hagati harimo akantu gakoze akaziga hirya y'icyapa hariyo ubusitani burimo ibiti byinshi.

Icyapa kirimo ishusho y'ikinyabiziga kigendera ku mapine ane, ishusho y'iki kinyabiziga isa ibara ry'umukara ndetse handitseho amagambo yo mu rurimi rw'amahanga niyo yanditse mu ibara ry'umukara.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigendera ku mapine abiri, hirya y'umuhanda hari aho ibinyabiziga bihagarara, hahagaze ibinyabiziga byinshi byiganjemo imodoka, hirya y'imodoka, hari inzu ndende igeretse inshuro enye iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru.

Inzu ndende ifite amabara y'umuhondo, ndetse n'ibara ry'umweru, ifite uruzitiro ruzengurukishijwe hejuru, ndetse n'inkingi ryazo, hirya uruzitiro, ibara ry'umuhondo, iruhande rw'uruzitiro hari utubuye duto duto tw'umweru.

Umuhanda munini urimo ahantu banyura bazengurutse, harimo ibinyabiziga bigendera ku mipira ibiri ndetse bitwawe n'abantu bamwe bahetse, harimo n'abandi badahetse ndetse n'icyapa n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda w'ibisate bibiri igisate kimwe kirimo ibinyabiziga bitwarwa n'amapine abiri, ibyo binyabiziga bitwawe n'abantu bambaye imipira y'amabara ubururu n'umweru ndetse n'birinda ku mutwe.

Umuhanda urimo ibinyabiziga ndetse n'abantu bari kuruhande rw'abanyamaguru .Ibinyabiziga harimo ibinyabiziga bitatu bigendera ku mipine ibiri ndetse n'imodoka itwaye igikonteri, iyo modoka itwaye igi konteneri iri munsi y'undi muhanda unyura hejuru.

Umuhanda urimo ibinyabiziga ndetse n'igare harimo ibinyabiziga by'imodoka, kimwe gifite ibara ry'umweru ikindi gifite ibara ry'umukara.